Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro yumukara, ahetse ikijerekani kirimo umuti, ahagaze mu bigori byiza cyane, ari kugenda atera bino bigori umuti. Abahinzi babigize umwuga, babikora neza, ku rwego rwo kugira ngo babone umusaruro uhamye.

Uyu ni umugabo wambaye itabuririya y'umweru, yambaye uturindantoki, dupfukamunwa ndetse n'agatambaro mu mutwe, akaba ari gutera umuti kw' indabyo nzi, ni indabyo nziza cyane bigaragara ko zitaweho, kandi akaba azigurisha amafaranga menshi.

Aha n'i hacururizwa imiti y'amatungo igiye itandukanye, turi kuhabona iri mu mashashi, tukabona iri mu macupa ndetse iyi miti bikaba bigaragara yuko ikoreshwa n'aborozi b'amatungo, barinda amatungo yabo.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'amafi, ni ahantu mu gishanga, ndetse hejuru ku musozi hakaba hari amashyamba y'ibiti bitari birebire. Abakora ubworozi bw'amafi bavuga ko uyu mwuga utanga amafaranga.

Aha ni hakorerwa ubworozi bw'amafi, abakora ubworozi bw'amafi, bavuga ko ari umwe mu murimo woroshye kandi utanga amafaranga, nubwo hari aba abibona nk'aho bigoye ariko ngo biba byoroshye.

Uyu ni umugabo ukora uburobyi bw'amafi, akaba ari kwiubira amafi ye meza mu nyanja. yategesheje urushundura, akaba ari kuyazamurisha agakoresho kabugenewe, abakora ibi bikorwa bavuga ko babona amafaranga kandi menshi.

Uyu ni umugabo ukora uburobyi bw'amafi, akaba ari mu cyuzi rwagati, aho afite agakoresho kabuhariwe bifashishwa mu kuroba, yagashyizemo arazamura, harimo agatete, aka gatete kaba kuzuye amafi, akaba agiye guhita ayanaga i musozi.

Uyu ni umugabo ukora ubworozi bw'amafi. Uyu umugabo yishimira umusaruro afite kuko nkuko turi kubibona muri iki cyuzi cye, harimo amafi menshi cyane ari koga mu mazi. Uyu mugabo ashishikariza n'abandi kubikora.

Aba ni abakora umwuga w'uburobyi, umwe yikuye agapira agashyira ku rutugu, undi arambaye bari kuzamura amafi bafashe mu rushundura bafite. Ni byiza gukora umwuga uwukunze.

Uyu ni umukobwa wiga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba ari kwimenyereza umwuga, aho yafashe ifi akaba ari kuyibaga maze akongera akayivura, mu rwego rwo kugira ngo arebe niba koko ibyo akora abisobanukiwe.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubworozi bw'amafi, aho aborora amafi bayororera mu byuzi bimeze neza kandi bitunganyije, ugasanga babikorera isuku mu rwego rwo kugira ngo bagire umusaruro.

Aba ni bamwe mu bashinzwe gukora isuku mu nyanja, turi kubona ubwato tukabona n'umugabo uri gushaka kubwuriramo ndetse hakaba hari n'abandi bantu bane, bari kudaha amazi bifashishije indobo, bose bafite indobo, kandi zijya kuba mubara havuyemo babiri.

aba ni abakora ubworozi ndetse n'uburobyi bw'amafi, ari kugaragara ikiganza cyasamuye ifi, iyi fi ikaba iri gucira amagi, ibi bituma abarobyi basiga amagi mu nyanja, maze bakajyana ifi yonyine.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubworozi ndetse n'uburobyi bw'amafi, aha hari urucundura rurimo amafi menshi cyane, bigaragara ko abayateze uyu munsi umuhigo wabo wabonetse ndetse no ku isoko akaba ari buboneke.

Aba ni abakora igikorwa cy'ubutwazi bw'ubwato, turi kubona umuma w'inzobere witwaye mu bwato, aho ari kugenda agashya nta kibazo na kimwe afite. Ubu nabwo ni bumwe mu buryo bw'ubutwazi bw'ibintu n'abantu.

Aha ni mu cyuzi rwagati, hakaba hakorerwamo ubworozi bw'amafi. Hirya no hino mu gihugu, abakora ubworozi bw'amafi, bavuga ko uyu mushinga utuma batera imbere uko bukeye ndetse n'uko bwije.

Aba ni abakora ubworozi ndetse n'uburobyi bw'amafi, bakaba bahagaze mu byuzi byabo aho bari koherezamo inshundura ngo babashe kwirobera amafi, abakora ubworozi bw'amafi bavuga ko bubaha ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Aba ni abahinzi b'ikawa, bakaba barayisaruye, bari kuyitunganya neza mu rwego rwo kugira ngo abayigura bazaze kuyitora imeze neza cyane, nka kimwe mu bihingwa ngandurabukungu maze bibonera amafaranga.

Uyu ni umumama wikoreye ibase, irimo ibigori. Uyu mumama bigaragara ko ari ahakorerwa igikorwa cyo kwanikira ndetse no gutunganyiriza, umusaruro w'ibigori. Akaba ari kuva mu kibanza kimwe ajya mu kindi.

Iki ni igihingwa cy'ikawa hakaba hariho intete zatukuriranye n'izindi zikiri icyatsi. Iki gihingwa ni kimwe mu bihingwa ngandurabukungu, gihingwa n'abantu bamaze gusobanukirwa n'ubwiza bwa kawa y'u Rwanda.

Kuva na kera ndetse kugeza ubu mu Rwanda igihingwa cy'ikawa ni kimwe mu bihingwa bigenga umuco nyarwanda. Si ibyo gusa kandi kigira impumuro nziza bityo bigatuma abagihinga babona amafaranga.

Ab ni abamama bari mu gihingwa k'icyayi, aho bose bahetse udutebo mu migongo yabo, bakaba bari kugenda baca amababi bayirenza bayajugunyamo. Abakora iyi mirimo bavuga yuko, ituma babona amafaranga bityo bakiteza imbere.

Aba ni abahinzi b'icyayi, icyayi kikaba gihingwa mu bibaya ndetse no mu misozi, aho kihakunda cyane kandi kikera neza. Aba bari kugisarura kuko cyamaze kwera, bahetse udutebo mu mugongo, baracamo amababi bajugunyamo.

Aba ni abahinzi b'umuceri bakaba bari kuwusarura. Umuceri iyo weze abawuhinga barawusarura bityo bigatuma umusaruro wabo ukusanywa bakareba niba barungutse cyangwa barahombye.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'ikawa. Iyi ni ikababa bamaze gusarura. Abakora iki gihingwa bavuga yuko gitanga amafaranga ku rwego rushimishije bigatuma biteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo.

Uyu ni umusaza ukora ubuhinzi bw'ikawa, iki ni igiti cyiza cyane cya kawa kiriho amakawa ahishye ndetse n'andi akiri mabisi, uyu musaza arishimye cyane kuko ikawa ni kimwe mu bihingwa bukungu muri kino gihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umusozi uriho igihingwa cyiza cyane cyiicyayi, aho icyayi ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu, kandi kikaba cyungura abagihinga. Ni imisozi isa icyatsi kibisi, ubona ko ubuhinzi buriho bwahayobotse.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'ikawa, ikawa ye imaze kwera kuko yarahishiye. Uwo mugabo arishimye cyane kuko ubuhinzi bw'ikawa ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ahagije kuko bikunzwe cyane hano mu Rwanda.

Aba ni abahinzi b'igihingwa k'icyayi bakaba bavuye ku gisarura. Bose bikoreye ibitete byuzuyemo amababi y'iki gihingwa. Abagikora kandi bavuga yuko babona amafaranga mu buryo buboroheye.

Aya ni amoko agiye atandukanye y'imiti ivura amatungo. hari iri mu bikarito ndetse hari n'iri mu macupa, iyi miti yose yifashishwa mu kuvura amatungo. Ibyo bigatuma amatungo agira ubuzima kandi buzira umuze.

Iyi ni imiti y'amatungo, ikaba iri mu ducupa, uducupa tw'umukara, tukaba dufite imipfundikizo y'umutuku, kuri buri gacupa hariho icyapa kigaragaza izina ry'uyu muti ndetse n'uko ukoreshwa, icyo ihuriyeho yose ni uko ivura amatungo.

Iyi ni imiti y'amatungo ifunze mu mashashi. Aya mashashi akaba ari mu mabara atandukanye. Harimo afite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi ndetse hakabamo n'afite ibara ry'umutuku ririmo amagambo yandikishije umweru. Aya mashashi yose akaba arimo imiti y'amatungo.

Iyi ni imiti y'amatungo ikaba ifungiye mu mashashi agiye atandukanye. Iyi ni ishusho nini cyane ishushanyije n'inka nziza cyane y'inyambo. Iyi nka ikaba igaragara nk'iri kurisha kuko yanyweye kuri uyu muti ikaba ifite uburyo ikeneramo ibyo kurya cyane.

Iyi ni imiti ivura amatungo. Iyi miti ikaba iri mu macupa y'ibyuma ndetse n'aya parasitike, kuri buri gicupa hashushanyijeho ubwoko bw'inyamaswa igenewe uwo muti, uko uwo muti witwa ndetse n'uko ukoreshwa.

Utu ni udukarito dufunzemo imiti myinshi cyane y'amatungo, hakaba harimo ikiri mu mabara atukura ndetse n'umukara, ndetse hari n'ikindi cy'umukara kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, iyi miti yose ikaba ivura amatungo.

Aha ni ahacururizwa imiti y'amatungo. Iyi miti ikaba iri mu tujerekani, iyi miti ikaba ishushanyijeho amazina yayo ndetse n'uko ikoreshwa. Aborozi b'amatungo bakwiye kuyagurira imiti kugira ngo ahorane ubuzima bwiza.

Aya ni amacupa mato cyane arimo imiti y'amatungo, aya macupa ari mu ibara ry'umukara akaba afite imipfundikizo y'umutuku, hariho icyapa kigaragaza izina ry'uyu muti nuko ukoreshwa, ibi bigatuma amatungo agira ubuzima bwiza.

Aba ni aborozi, bakaba bari mu nka zabo hagati, aho bari kugenda bazitaho mu buryo bugiye butandukanye. Izi ni inka nziza cyane, bigaragara ko zororewe ahantu hamwe, kandi zitaweho.

Inka nziza cyane z'imfirizone ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, ziri mu biraro byubatse neza kuko byubakishije ibyuma, zose ziri kurisha. Izi nka ni nziza cyane zitaweho ku buryo zitanga umusaruro buri wese yishimira.

Aba ni abantu bari mu myaka yabo rwagati, ni abahinzi bari gusarura imyaka yabo bahinze, abakora umwuga w'ubuhinzi, bishimira ko iyo ikirere cyagenze neza basarura, ibi bikabafasha kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

uyu ni umugabo uvuye ku isambu kuzana ubwatsi bw'amatungo, akaba yabuhetse ku igare, ni igare ari gucisha ahantu hari ibyatsi byinshi cyane, ubona ko kurikuramo biri kumugora. Abantu batuye mu ntara y'iburasirazuba, dukunze gukoresha ubu buryo tuzana ubwatsi bw'amatungo.

Aba ni abahinzi, bakaba bari mu bikorwa byo gutera igihingwa cy'ikawa, abakora ubu buhinzi bavuga yuko babyishimira, kubera ko ari igihingwa gitanga amafaranga kandi kikishimirwa.

Aba ni abaturage barongoye inka, izi ni inka zifite amahembe cyangwa se inka z'inyarwanda, ni abaturage benshi cyane, bigaragara ko bari kujya mu isoko ry'amatungo, aho bose ari aborozi bakaba bagiye kuyagurisha.

Uyu ni umugabo uri mu bigori by'iwe byiza cyane bimeze neza, ni ibigori bitarera ariko bigaragara ko bisa neza, uyu mugabo akaba ari kugenda akuramo ibirwaye kugirango akomeze yiteze imbere, bityo ibihingwa bye byere neza.

Aba ni abakora umwuga w'ubworozi ndetse n'ubuhinzi, bakaba bavuga yuko iyo boroye inka zabo zikamera neza, bagahinga imyaka yabo ikera, ibi bibashimisha kuko bibaha amafunguro n'amafaranga.

Iki ni igihingwa cy'ikigori. Ni ikigori cyiza cyane kize neza kikaba giteye ahantu mu gishanga. Abahinzi b'ibigori bavuga ko ibihingwa byabo nabyo ari bimwe mu bihingwa ngandurabukungu kandi bigatanga n'ibyoku kurya.

Aha ni ahabera ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, hakaba hari kugaragara ibitunguru byiza cyane ndetse n'imboga za dodo. Ababyeyi bafite uturima tw'igikoni nk'utu, usanga abana babo bafite ubuzima bwiza.

Umumama wambaye ibitenge ndetse uteze agatambaro ahagaze mu bigori byi'we byenda kwera kuko byatangiye guheka. uyu afite akanyamuneza kuko yamaze kugira icyizere cy'uko ibigori bye bizamuha umusaruro nk'uko yabyifuzaga.

Ubu ni ubutaka bukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, hakaba hahinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, haba ibihingwa bitanga amafaranga ndetse n'ibihingwa bitanga ibyo kurya, turikubonamo ipapayi ndetse n'ibindi biti bigiye bitandukanye.

Igihingwa k'ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga ndetse n'ibyo kurya kuko kiba mu bihingwa ngandura bukungu ndetse no mu bihingwa ngandurarugo ikindi ni ikigori cyeze cyane ku buryo cyageze igihe cyisarurwa.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubuhiznzi. Ibi ubona ni umwumbati umwe wazamutse ariko nturira. Uyu mmbati uramutse uwuranduye wasanga ufite imizi nta mwumbati wawusangamo. Niyo mpamvu nta muntu ujya wonona imyaka ye.

Ibi ni ibirayi byiza cyane bigaragara ko byeze kandi bikera neza nta kibazo na kimwe bifite, ibi birayi bikaba bibarwa nka bimwe mu bihingwa ngandurabukungu ndetse no mu bihingwa ngandurarugo.

Ibi ni ibirayi byeze neza cyane. Abahinzi b'ibirayi, bavuga ko iyo babonye umusaruro mwiza ,bituma babona amafaranga ahagije, bigatuma biteza imbere ndetse n'imiryango yabo ikabaho neza.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza cyane usa umukara. Ukaba urimo uturongo tw'umweru. Uri guca mu ishyamba ubona ko rizitanye, ni ishyamba riri ku musozi, rikaba riri iburyo n'ibumoso bw'uyu muhanda.

Iyi ni imisozi iteganye yose iteyeho amashyamba, aya mashyamba atuma abaturage babona umwuka mwiza cyane bahumeka, si byo gusa kuko akurura n'imvura, maze ibihingwa bahinga bikera neza maze bakihaza mu biribwa.

Iri ni ishyamba ryiza cyane ririmo ibiti bigaragara neza cyane ko bikuze. Ibiti bikaba byifashishwa mu gutunganya ibintu bigiye bitandukanye, kandi bigatanga n'umwuka mwiza cyane duhumeka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo utari kugaragaramo ikinyabiziga, muri uyu muhanda hari amatara amurikira uyu muhanda, hakurya yawo hakaba hari ibyatsi byiza cyane bituma uyu muhanda ugira umucyo ndetse wareba hakurya cyane, ukahabona inzu zituwe n'abaturage.

Iri ni ishyamba rigizwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hakaba harimo n'ibihingwa bimwe na bimwe. Aha imbere hakaba hari insina zeraho ibitoki ndetse n'ibiti byeraraho imbuto.

Aha ni ahantu heza cyane hari ishyamba rirerire ndetse hakaba harimo n'inzu, abaje gusura iri shyamba ndetse n'ibiririmo bashobora kugeramo, bakaboneramo ibintu by'ibanze nk'ibinyobwa ndetse n'ibiribwa.

Iki ni ikibaya giteyemo imyaka igiye itandukanye, kizengurutswe n'imisozi iriho ibihuru ndetse n'amashyamba, ibi bituma imyaka ihingwa muri iki gishanga, yera neza kuko aya mashyamba akurura imvura.

Ubu ni ubuhinzi bw'imbuto, ahari kugaragara imbuto nziza cyane, izi ni imbuto zera neza ndetse abazihinga bavuga ko, zituma babona amafaranga bakibeshaho ndetse bakabeshaho n'imiryango yabo.

Ubuhinzi bw'indabyo ni bumwe mu buhinzi bugezweho kuko indabyo zifashishwa mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane ahantu hakunze gusohokera abantu usanze haba hari indabyo zituma bahakunda cyane.

Uyu ni umugabo ukora akazi ko guhumbika imbuto, aho azihumbika maze abahinzi bakaza bakazimuguriraho bityo bigatuma na we abona amafaranga, maze agakomeza imirimo ye akiteza n'imbere.

Aba ni abahinzi, bakaba barahinze ibihingwa byabo, ni bihingwa byiza cyane ariko bikeneye kwitabwaho, aho nabo badahwema kubikorera, iyo ukora umwuga uba ugomba kuwitaho, mu rwego kugira ngo ukubyarire amafaranga.

Uyu ni umuma uhagaze ahacururizwa imbuto, afite inanasi ebyiri mu ntoki, mu kuboko kw'ibumoso ndetse n'ukw'iburyo, inyuma ye hari umugabo uri kugenda mu muhanda uri hafi aho ngaho, abakora ubu bucuruzi bavuga ko bibafasha mu kubona amafaranga.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, ahagaze mu imbuto ze nziza cyane, ni ibihingwa by'inababara, aho aba bahinzi bazihinga, bakazitaho kugeza zibahaye umusaruro bifuza.

Uyu ni umugabo ukora ubuhinzi bw'imbuto. Akaba afite ibase y'ubururu irimo amatunda meza cyane yahishiye. Imbere ye hari abandi bantu benshi bigaragara ko yishimye cyane kuko aya matunda ari bukuremo amafaranga ahagije.

Aha ni ahahatunganyirizwa ingemwe, harasakaye ndetse haciyemo n'uturongo, abakora ubu buhinzi, bavuga yuko uyu ari umwuga bakora, ubatunze kandi ubinjiriza amafaranga batakura ahandi.

Iyi ni ibase bateyemo ikimera cy'urubuto rwa avoka ndetse n'umwembe, umwembe ukaba weze hariho imbuto, iyi ni ibase y'umukara ikaba iteretse ahantu ubona ko ari imbere y'urugo.

Aha ni ahakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi hari kugaragaramo ibigori byiza cyane biteye mu buryo bugezweho. Abakora ubu buhinzi bavuga ko bubaha amafaranga ,ibyo kurya ndetse bakiteza imbere.

Iri ni isoko ry'imboga ndetse n'imbuto. Ndikuhabona amoko y'imboga agiye atandukanye arimo karoti, beterave, akabamo chifureri ndetse n'andi moko agiye atandukanye. Aha niho ushobora kugurira imboga maze ukihaza mu mirire.

Aha ni ahakorerwa ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto, bakaba bakoresha uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga mu kuhira imyaka yabo, bigatuma itajya ihura n'ikibazo cyo kubura amazi, kabone niyo haba ari mu mpeshyi.

Hirya no hino mu gihugu baciye imiyoboro itambutse amazi mu rwego rwo kugira ngo abakora igikorwa cy'ubuhinzi, babone amazi meza kandi bayabonere ku gihe. Ibi bikabafasha kubona umusaruro uhagije bityo igihugu kikihaza mu bihingwa.

Iki ni ikibaya kigaragaramo ubwiza budasanzwe, harimo ibiti bigiye bitatanye ndetse hakaba n'imisozi ihinzeho imyaka, iki kibaya ni cyiza cyane giteye ubwuzu n'ubwo nta baturage bagituyemo.

Uyu ni umwana w'umusore wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'agakabuturu, afite rozwari ebyiri akaba ari kuvomerera imyaka myiza cyane iri ahantu mu mubande, aho bigaragara ko izagira umusaruro mwiza kandi uhamye.

Uyu ni umumama wambaye agashati k'umutuku karimo utubara tw'umukara ndetse n'igitenge cy'umukara kirimo utubara twinshi, akaba afite umupira w'ubururu ari kuvomerera ibihingwa bihinze hano, birimo urutoki ndetse n'imboga.

Izi ni inyubako zubatse mu kibaya, izi nyubako zikaba zubatswe mu buryo bwa kera, kuko ni inyubako bigaragara ko ari ntoya kandi zigiye zitandukanya ,hejuru hari umusozi uri kugaragaraho ibihingwa bizamuka bikagera hafi y'igicu.

Aba ni ababyeyi bari gutambuka mu kibaya kiza cyane kirimo imyaka, ni imyaka igaragara neza kandi bikaba bigaragara ko yeze. Aba babyeyi bikoreye udutebo ku mitwe yabo ndetse umwe uri kugaruka we nta kintu yikoreye.

Uyu ni umusozi uhanamye ukaba uteyeho igihingwa cy'icyayi, abakora ubuhinzi bw'icyayi bavuga ko ibi bituma babona amafaranga mu buryo bworoshye bakiteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango yabo.

Iyi ni imisozi myiza cyane ihanamye, ikaba iteyeho ibiti byiza cyane ndetse n'imyaka, iteyeho amaterasi y'indinganire. Ikaba ifite ibimera bifite isura nziza cyane. Nkuko bigaragara aha hantu hera imyaka kandi iri mu buryo bwiza.

Uyu ni umusozi mwiza cyane kandi uhanamye, ukaba utuyeho ibimera bigiye bitandukanye ndetse ukaba utuweho n'abaturage, hakurya hagaragara umusozi mwiza cyane uri mu ibara ry'ubururu, ikirere kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Aha ni mu kibaya giteyemo imyaka igiye itandukanye, ku mpande z'iyi myaka, hari amashyamba afite ibiti bitari birebire cyane, ibi bigatuma iyi myaka ibona imvura ndetse ikagira n'akayaga, maze igatandukana n'umwuma.

Iyi ni imisozi ihanamye ikaba iriho amoko y'ibiti agiye atandukanye. Ni amashyamba maremare ndetse n'ibiti bigufi, mu kibaya hakaba harimo amasina, ibigori ndetse n'ubundi bwoko bw'ibiribwa bugiye butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'imisozi ndetse n'amashyamba. Harimo imodoka bigaragara ko ari iy'abakerarugendo baje gusura iyo misozi myiza, hakaba n'umuntu wikoreye agafuka uri guca mu muhanda agenda n'amaguru.

Imisozi myiza cyane iteyeho ibyatsi bigaragara mu ishusho y'icyatsi kibisi, hakaba hari kugaragara ibihingwa ndetse hejuru hari kugaragara ikirere kiri mu mabara y'umweru n'ubururu.

Aba ni abaturage batandukanye, babyukiye mu gikorwa cy'umuganda, aho bari gutera ibiti, mu rwego rwo kugira ngo ubutaka bwabo butazatwarwa n'isuri, ni abaturage bigaragara ko harimo n'abayobozi.

Iyi misozi myiza ndetse n'ibibaya munsi hakaba hari umugezi utemba, harimo ibiti byiza cyane bishishye kandi bifite amabara y'icyatsi kibisi. Aha ni ahantu heza cyane umuntu yakwifuza gutemberera.

Izi ni nka nziza cyane ziri mu biraro byiza, abakora ubworozi bw'amatungo bavuga ko korora inka mu buryo bugezweho bituma babona umusaruro uhagije kuko inka yorowe neza itanga umukamo nawo uhagije.

Ahana ni ahakorerwa ubworozi bw'ingurube mu kiraro cyiza cyane gisashemwo umurama w'ibarizo. Iyi ngurube yabwaguye ububwana bwinshi cyane iraryamye nabwo buri kuyonka. Abakora ubu bworozi bw'ingurube bavuga ko ubu ari bwo bworozi bwa mbere kugira amafaranga menshi.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'inkoko, harimo inkoko nyinshi cyane ndetse hakaba n'ibikoresho bizifasha gushyuha, ibi bigatuma abakora ubu bworozi babona inyungu kandi bakazibonera ku gihe uko bikwiye.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'amatungo, aha bakaba boroye ingurube, ni ingurube nziza cyane, igaragara ko yabyaye, ibibwana byayo nabyo bikaba bimaze gukura, abakora ubu bworozi bavuga ko bubaha amafaranga menshi kandi vuba.

Inka nziza cyane z'inyambo zikaba ziri mu rupangu, ziteze amahembe, hakaba harimo abavuzi b'amatungo ndetse n'aborozi,, aho abavuzi b'amatungo bazitaho cyane bakazirinda uburwayi ndetse zigarurana ubwiza bwazo.

Aba ni aborozi babigize umwuga, aha hari kugaragara abari gukama n'abandi bari kwita ku nka zabo, abakora umwuga w'ubworozi bw'inka bavuga ko ubu bworozi ari bwiza kuko bibafasha kubona amata ndetse n'inyama.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bw'inka, harimo inka nziza cyane z'ifirizoni, zifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, abakora ubu bworozi, bavuga ko babona amata yo kunywa, bityo umuryango wabo ukagira ubuzima bwiza.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ubworozi bwa kijyambere kandi bugezweho. Harimo aborozi babiri aho bari kuzengurukamo mu rwego rwo kugira ngo bakorere isuku amatungo bityo yororoke maze babone umusaruro.

Inka nziza cyane z'Inyambo ziri mu rwuri rutoshye rurimo ubwatsi bwiza cyane buzamutse, ni inka z'imbyeyi zishishe maze bigaragara ko zitanga umukamo bitewe n'ukuntu ziba zitaweho.

Aha ni ahabera ubworozi bw'inkoko hakaba harimo amoko y'inkoko nyinshi agiye atandukanye, harimo amasake ndetse n'inkokokazi ndetse nyiri uyu mushinga bigaragara ko yawuteguye neza kuko izi nkoko zibona umurama uhagije ziryamaho.

Abakora ubworozi bw'amatungo magufi bavuga ko aya matungo atanga umusaruro kandi mu buryo bworoshye. Izi'yene nziza cyane zishishye bavuga ko zibyara vuba kandi zigakura vuba bigatuma uzoroye abona amafaranga.

Iyi ni inka nziza cyane bigaragara nkaho iri mu kiraro yasohoye igihanga iri kwihumuriza ku byatsi biri aho, bigaragara nkaho byumye. Iy'inka igaragara ko yitaweho kuko ni nziza ariko kuri iyi nshuro ikaba nta bwatsi ifite.

Ubu ni ubworozi bwa kijyambere bukorerwa ahantu heza cyane, harimo inka, hakaba harimo n'abantu bari kugenda bazitaho. Aha izi nka zikaba zitanga umukamo ndetse n'umusaruro kuri ba nyirazo bitewe n'uko bazitaho.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bugiye butandukanye, abakora ubworozi bw'ingurube bavuga ko bubaha amafaranga menshi, kuko ingurube yororoka vuba kandi ikaba ikunzwe cyane, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo.

Aha ni ahakorerwa ubworozi bugiye butandukanye bw'ingurube, hari ingurube nziza cyane kandi nini, bakaba bazigaburiye mu kintu kimwe, zirikuriramo zibyigana, abakora ubworozi bw'ingurube bavuga ko butanga amafaranga.

Izi ni inkoko nziza cyane zorowe mu buryo bugezweho, abakora ubworozi bw'inkoko bavuga ko bishimira kuba babasha kubona amagi ku gihe, ndetse bashaka n'inyama bakazibona. Si ibyo gusa kuko bibaha n'amafaranga.

Aha ni ahakorerwa ubworozi, bakaba bakora ubworozi bw'inka, ni inyana nziza cyane bigaragara ko izakura kandi ikamera neza, iyi nyana yambaye iherena ku gutwi, ikaba igaragara nk'aho yariye igahaga maze ikiryamira.

Ibi ni ibiganza by'umuhinzi, bikaba bifashe amahundo atatu y'amasaka, abahinzi b'amasaka bavuga ko rimwe na rimwe, hari igihe babura imbuto, ibi bigatuma bamwe batanayahinga.

Aha ni ahatunganyirizwa imbuto zifashishwa mu buhinzi bw'umuceri, izi mbuto zikaba ziri mu mifuka igiye ipanze umwe hejuru y'undi, abahinzi iyo bahawe imbuto nziza bagira umusaruro mwiza.

Abakora ubuvuzi bw'amatungo ukunze gusanga bifashisha bimwe mu bitambaro bibafasha gusukura mbere y'uko batangira gukora akazi kabo, ibi kandi bikaba bibagora kuko bitaba byoroshye.

Inka nziza cyane z'inyambo, ni inka ziteze amahembe. Hagati muri izi nka harimo aborozi bazo bambaye, ibisarubeti by'ubururu. Hakabamo n'abaganga b'amatungo, bambaye amataburiya y'umweru. Hakaba hari umwe mu baganga uri kugerageza gutera intanga inka imwe muri izi.

Abavuzi b'amatungo ni bamwe mu bakora ubushakashatsi maze bakavura indwara zigiye zitandukanye zifata amatungo, aho bagerageza gukora uko bashoboye maze bakazitabara.

Aba ni abaganga bahagaze mu inyubako y'ivuriro. Ni inyubako nziza cyane y'ubatse neza ku nkuta hakaba hariho amakaro ndetse no hasi aho bahagaze hari amakaro, umwe yambaye impuzankano y'itaburiya y'umweru, undi yambaye ipantaro yicyatsi kibisi n'ishati.

Aha ni ahororerwa inka, izi nka zikaba ari inyambo, zose zigaritse amahembe maremare, abantu bakunze kuzitaho nk'abaganga b'amatungo aho iyo zigize ikibazo bazivurira ku gihe.

Inka nziza z'inyambo, abazorora bavuga yuko uretse ko ari n'inka zimurika umuco gakondo, na zo ubwazo zigira amata meza cyane aryoshye atuma umubiri w'abantu umera neza cyane.

Iyi ni inyamaswa y'imvubu ikaba iri ahantu muri parike. Ni parike irimo ibyatsi, ikabamo ibiti birebire ndetse n'ibigufi ariko iyi mvubu igaragara nkaho ishonje wagira ngo yaraye ibyaye.

Iyi ni inyamaswa y'inkazi ikunda guhora yiryamiye. I y'inyamaswa ni inyamahoro nk'uko abakerarugendo babivuga ariko ngo iyo ushatse kuyanduranyaho nayo ikwereka akayo kuko ngo ntijya izuyaza.

Iyi ni inyamaswa iryamiye hasi iyi nyamaswa ikaba iri kwayura ku buryo bukabije. Iyi nyamaswa igira ubukari ku buryo iramutse igufashe ishonje, ishobora kukuryana n'imyambaro wambaye ntihazagire n'ukubika

Iyi inyamaswa yiryamiye ku giti cyaguye kera kikuma, iyi nyamaswa iri kureba nkaho ntacyo yitayeho, ariko kandi na none uramutse uyanduranyijeho, nibwo wabona amakari yayo. Kuko zihora ziteguye, kandi zigira amakari ku rwego rwo hejuru.

Inkende ni zimwe mu nyamaswa zishimishije aho usanga zicara nk'abantu cyangwa se zikahagarara nk'abantu, abenshi bigatuma bazibazaho ndetse bakanabona ko zitangaje.

Aha ni mu nyanja rwagati, hakaba harimo inyamaswa iguruka, ni inyamaswa yiryamiyemo, ubona ko ntakibazo, inyamaswa ifite ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umunwa w'ubururu, ikaba iri mu nyanja ndende.

Izi ni inyamaswa zikaba zashotse mu mugezi gushaka amazi yo, kunywa muri parike usanga inyamaswa zose ziba zirishamo, maze zarangiza zigashoka n'umugezi zikanywa amazi.

Iyi ni inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati, muri iyi nyubako haragaragara ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, hakagaragaramo indabyo, ubusitani bugizwe na pasiparumu ndetse n'ibiti byiza cyane bitanga umuyaga.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ahetse igikapu cy'umukara, ari kwitegereza inkende ziri hakurya y'umuhanda, arazirangariye cyane, hakurya ndetse no haruguru y'izi nkende, hakaba hari inkuta zubakishije amatafari ahiye.

Iyi ni inyamaswa iri mutwatsi rwiza cyane, utu twatsi inyamaswa ziradukunda kuko zikiniramo, aho ziba zigenda zifata n'utundi dusimba duto duto, ibi bigatuma izi nyamaswa zishimirwa n'abazireba, bitewe n'ibyo ziba ziri gukora.

Iyi ni inyamaswa y'inkazi yiryamiye ku giti, iri maso kandi irakanuye ntiyanduranya, ariko nayo iyo hagize uyiyenza, nibwo abona ububi bwayo, kuko nayo ibadukana umujinya.

Iyi ni inyamaswa y'inkazi yihagarariye ahantu. Ni ahantu hari uduti dukeya, ndetse hakaba hari n'ikintu k'ikibumbano. Inyamaswa nk'izi usanga ari inyamahoro Ariko iyo uzanduranyijeho nazo zigusubirana inyuma, ukibaza niba ari za zindi wabonaga.